Ino aha iwacu twororaga inyamaswa harimo nk'ihene, hakabamo intama ,iyo twazoroye zigakura tuzijanaga ku isoko bakaza kuzigura bakaduha amafaranga bakaja gutekamo burushete, bakazigurisha bakabonamo amafaranga bakabaho neza, bakiteza imbere natwe tubaga twiteje imbere tukabaho neza.

Inaha iwacu dushinga akabare tugacuruzamo inzoga zitandukanye ducuruzamo: pirimusi, tugacuruzamo n'amarikeli, tugacuruzamo n'amafanta, dutanga n'akazi, abakozi kugira biteze imbere, tukabaha amafaranga bakayakoresha ibindi byo murugo bakarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Biba byiza iyo ushaka gucuruza ugashinga bare, ukayishyiraho imitako, bituma ukurura abakiriya kuko baza bizeye umutekano w'aho n' ibintu byiza uba ufite kandi udahenda cyane ucuruza ku biciro biri hasi.

Ino aha iwacu tugira ubucuruzi bw'inzoga, iyo dushinze bale tubona amafaranga akomoka ku gucuruza inzoga, iyo tubonye amafaranga tuyahahisha ibyo kurya, tukishyura abakozi tuba twakoresheje, bityo ayo dusaguye akaduteza imbere dutanga mituweli, twishyurira n'abana amashuri.

Ubworozi bw'inka buduha umusaruro mwinshi cyane, iyo tuzibaze dukuramo inyama tukazirya, iyo tuziriye tuba twirinze indwara urugero: nko kugwingira, ntabwo umwana yangwingira kandi umugaburiraga inyama cyangwa isosi bigatuma umwana akura neza bityo inka zifite umumaro mwinshi cyane iduha n'amata.

Inaha iwacu twubakaga amazu, tugacururizamo inzoga, iyo twacuruje inzoga, baduhaga amafaranga tukaguramo ibyo kurya tugatunga imiryango yacu tuyishurira mituweri, tugatanga n'amashuri y'abana tukarushaho kubaho neza.

Ino aha iwacu tugiraga amoko g'inzoka gandukanye, tugiraga pirimusi, tukagira mitsingi, tukagira sikoro, tukagira na fanta, turazigurishaga bakaduha amafaranga tukikura mu bukene, tugatanga mituweli, tukishurira n'abana amashuri.

Inaha iwacu duhingaga ibitoki. Iyo byeze turabiryaga, tukabijana ku isoko, bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi byokurya, tukaguramo nk'ibirayi, tukaguramo ibijumba, tukaguramo n'imboga, tukabigaburira abana ntibarware bwaki bagakura neza.

Ubu naha iwacu hateye imbere twubaka ama etaje yo gucururizamo, tuyacururizamo imyenda, tukayacururizamo ibindi bikoresho byifashishwa mu ngo, aduha amafaranga tukiteza imbere dutanga mitiweli.

Uruja n'uruza rw'abantu bakora ubucuruzi bwo ku muhanda, abamotari, amagare, abantu bagenda, abacuruza mitiyu, iyo bakoze iyo mirimo y'amaboko, babona amafaranga abafasha gutunga imiryango ya bo.

Mu buryo bwo kugira ngo ubucuruzi bwawe bukundwe n'abantu benshi, bubone abakiriye ushaka igipapuro ugashushanyaho ibikorwa ukora, ugashiraho na nimero zawe za telefone, ku buryo umuntu agukeneye ari umukiriya aguhamagara, akakubona byoroshye.

Ino aha iwacu twubaka amazu y'ubucuruzi, amwe tukayagira amacumbi, abaje kuraramo baduhaha amafaranga tukiteza imbere, tukayaguramo ibikoresho byo gukoresha mu ngo, tukayaguramo ibyo kurya, tukiteza imbere dutanga mituweri, twishyurira n'abana amashuri.

Uburyo bwo kwiteza imbere ujaga gushaka akazi, ukabonamo amafaranga ukajana muri sako, iyo amaze kuba menshi barayaguha ukarebamo ikintu gifatika uyakoresha, ushobora kuguramo inka, ushobora kuguramo intama. Iyo woroye ukabona ifumbire, urarigurisha ukarushaho kwiteza imbere.

Mu Rwanda tugiraga inganda zitandukanye zikoraga amaji zigakora amata, turayanwaga kugira ngo turinde abana bacu bwaki, andi tukanayacuruza tukagenda turungukamo amafaranga tukiteza imbere.

Amazu yo ku muhanda tuyacururizagamo, abaturage bakaza guhaha biboroheye. Urugero tugacuruzirezamo: imikubuzo, amakara, ibirayi kugirango ntibabikenera babibone hafi, kuko haba habegereye batarinze kuja mu isoko.

Iyo twubatse amazu tubaga turi kugira ngo atwinjirize amafaranga, urugero iyo wubatse hoteri uyicururizagamo inkoko, n'ibyo kurya n'inzoga. Iyo babiguze baguhaga amafaranga ukiteza imbere uyakoresha mu bundi bucuruzi uba ufite. Urugero ushobora kuba ufite nk'umukozi ugucururiza mitiyu, ukongera igishoro kugira ngo akwinjirize umusaruro.

Amazu yubatswe ku muhanda atanga umusaruro, kuko ujyanamo ibyo gucuruza, ugacuruza ukabona abakiriya. Iyo ubonye babyizihiye witeza imbere, kandi n'abaturage bakabibonera hafi.

Inaha iwacu bubakaga amazu yo gucururizamo kugira ngo twiteze imbere. Turanayakodeshaga, iyo tuyakodesheje baduhaga amafaranga tugatanga mituweri, tukishyuriramo abana ishuri, tukiteza imbere.

Uburyo bwo guteza imbere umuhinzi bashiragaho amazu y'ubucuruzi akaja kuguramo umuti wo gutera ibirayi, ukagura ipombo yo guteresha ukaguramo n'ifumbire ,iyo uguzemo n'imbuto y'indobanure urushaho guhinga bikera.

Amazu y'ubucuruzi aduhaga amafaranga menshi cyane. Iyo twayubatse turayakodeshaga, tukayacururizamo, bakaduha amafaranga. Iyo baduhaye amafaranga, dutangiraga abana mituweli. Tukayahahamo ibyo kurya, tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Santere y'ubucuruzi idufasha kugeza ibicuruzwa byoroheje ku baturage. Kubera ko iyo ufite inzu y'ubucuruzi iri hafi y'abaturage, baza kuhagurira kubera ko aba atari kure, badategereje gukoresha amatike batega baza kukureba ari hafi.

Inaha iwacu dukoraga imirimo itandukanye hari ababazaga intebe, hari abajaga gutwara abagenzi nk'abamotari, n'abanyonzi, n'abashoferi batwaraga imodoka. Iyo batwaye imodoka, namba bakoze intebe, babahaga amafaranga bakifasha kwikura mu bukene.

Iyo uzi gutwara moto bitumaga uja gushaka amafaranga mu muhanda. Iyo ufite na perime ujaga mu muhanda, ugashaka amafaranga agufasha gutunga umuryango wawe uwuhahiramo ibyo kurya, aho ukarushaho kwiteza imbere, ukishyurira n'abana ku ishuri, kuko uba uzi gutwara moto wibeshagaho.

Iyo ufite urugo rugari uhingamo jaride, ugateramo imbuto z'ubwoko bwose. Urugero nko guhinga amavoka, insina, ibinyomoro, amatunda, bigatuma iwawe hagaragara neza, kuba washyizemo umutako w'imbuto.

Iyo ushinze sitidiyo, uba ushaka kugira ngo ubone amafaranga agufasha kwiteza imbere, ugatunganyirizamo amafoto y'ubukwe, ugatunganyirizamo amafoto asanzwe n'amavidewo, bituma abakiririya bagukunda, bakaza kuguteza imbere bifotoza, bityo ukabona amafaranga agutungira umuryango.

inzu y'ubucuruzi ni inzu uba ugomba kugirira isuku, ukayikorera neza, ugashyiraho na kandagirokarabe, kugira ngo abakiriya baza bakugana, ari uwanduye akinjira asa neza, kubera ko uzaba washyizeho kandagira ukarabe, agakaraba, akinjira afite intoki zisukuye, bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Mu Rwanda tugiraga ubwoko bwo gucuruza, hari abacuruzaga ibyokurya hari abacuruzaga imyenda yo kwambara, hari abacuruzaga ibikoresho byo kwifashisha mu rugo hari abacuruzaga amagare. Iyo bacuruje babahaga amafaranga bakivana mu bukene bagatera imbere, bakagura amamodoka abafasha kwihutisha ingendo, bityo bakabaho neza kubera ko babaga bafite ibikorwa.

Inaha iwacu twubakaga amazu y'ubucuruzi ku muhanda turayacururizagamo, tukayakodesha. Iyo tuyakodesheje baduhaga amafaranga adufashaga kwikura mu bukene, tugatangiramo n'abanyeshuri ku ishuri.

Inaha iwacu tugiraga ubucuruzi butandukanye. Ducuruzaga inkweto, tugacuruza imyenda yo kwambara, ducuruza iy'abagabo, tugacuruza y'abagore, bakaduha amafaranga tukiteza imbere tugatangira abana ku ishuri tugakuramo n'ibyo kurya.

Amazu y'ubucuruzi tugendaga turaja gushakayo ibyo kunywa, iyo ibyo kunywa biri hafi turushaho kwiteza imbere tugashakayo akazi, iyo baduhaye akazi bidufasha kwiteza imbere tugashakamo ibyorya.

Inaha iwacu dukoraga ubucuruzi butandukanye dutekaga ibiryo tukabigurisha habaga harimo inyama, ibirayi, ibishyimbo, intoryi iyo tubigurishije baduhaga amafaranga tukiteza imbere.

Iyo ufite ubumenyi bwo gukanika moto abamotari bakuzaniraga amamoto ukayakanika, bakaguha amafaranga yo kwiteza imbere wishurira abana amashuri, ukahahamo ibyo kurya ugatunga umuryango, bityo umuryango wawe ntiwicwe n'inzara.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, abaturage bubakaga amazu ku muhanda y'ubucuruzi. Bakayacururizamo, bakayakodesha, bakabonamo amafaranga. Abandi badoderagamo, abandi bagacururizamo bityo bakabona amafaranga abafashaga kwivana mu bukene.

Mu buryo bwo gutubura ubutaka, abantu bubaka amayetaje kandi bakubaka ibikorwaremezo, bagashyiramo amashanyarazi ku muhanda, ukaba wajya nko guhaha bwije kuko haba harateye imbere hari ibikorwa remezo.

Biba byiza iyo ufite umwuga uzi kuwukora neza urugero nko gusuka iyo uzi gusuka ubonaga abakiriya bakaguha amafaranga ukiteza imbere ukaguramo ibikoresho byongera umushinga ukora kugira ngo uzabeho neza ukawiga neza ukigisha n'abandi ukarushaho kwiteza imbere

Umucuruzi wa nyawe agomba kugira ibicuruzwa by'abaturage bakenera ku isoko, urugero harimo amasaka, ibishyimbo, ibirayi, umuceri n'ibindi byinshi.

Igihingwa gitomu umuturage yiteza imbere, igihingwa cy'ibirayi, iyo wahinze ibirayi witeza imbere, ukishura mituweli, ukarihira umwana amashuri, ukajana no ku isoko ukabona amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa wateguye.

Amazu y'ubucuruzi atumaga ducuruza imyambaro tukabonamo amafaranga urugero nk'udukapu imyenda yo kwambara ikote zo kwambara iyo tubicuruje baduhaga amafaranga tukagaguramo ibyo kurya tugatanga ku ishuri tukayatanga mituweli tukiteza imbere.

umucuruzi mwiza ni uhora afunguye , kuva mu gitondo kugera nka saa tanu z'ijoro, uko umukiriye igihe ashakiye ibyo akeneye abibona kuko uba uhari. Urugero nko kuza gushaka isafuriya akayihasanga, imyenda yo kwambara akayibona, bituma ugirirwa icyizere ugakundwa n'abakiriya bose.

Ibyiza byo gutura ahantu hari imihanda, ubona uburyo bwo kujya guhaha bikoroheye, ukabona akazi byoroshye, urugero nko kujana igare mu muhanda ukajya kunyonga, kandi ugiye gushaka ibyo kurya ntabwo ubura ikintu kikujyana ku muhanda, kuko uba uhegereye kandi n'abashaka akazi nk'abanyonzi bahari ari benshi.

Inaha mu Rwanda twubaka amazu y'ubucuruzi, tukubaka amazu yo kubamo. Iyo twubatse amazu y'ubucuruzi aduha amafaranga, turayakodesha bakaduha amafaranga, tukayacururizamo tukabona amafaranga, tukiteza imbere kuko tuba twariteganyirije, tukubaka amazu meza. Urugero nko kubaka hoteli, uyakiriramo abantu bakaguha amafaranga ukiteza imbere.

Ino aha iwacu dushakaga akazi murire emutiyene, tugacuruza amayinite, tukabitsa tukanabikuza, iyo ukwezi kugeze baduhaga amafaranga, tukiteza imbere, tukaguriramo abana n'amakayi, tukabaguriramo n'inkweto zo kujana ku ishuri, tukarushaho kwiteza imbere.

Ubucuruzi buduhaga amafaranga menshi cyane. Iyo twacuruje urugero nk'ubukapu, amasafiririya amabase, udukapu tubonaga amafaranga menshi cyane kuko tubonaga n'abakiriya benshi kubera ko ibyo baba bakeneye tuba tubifite, bakaduha amafaranga akadufasha kwiteza imbere.

Inaha iwacu iyo ducuruje tubonaga amafaranga. Urugero nko gucuruza amazi meza yo kunywa, tugacuruza mitiyu , biduhaga amafaranga tukiteza imbere, tukongera ubucuruzi, tukarushaho kubaho neza, kubera tuba twaraguye ubucuruzi kubera ko tubonaga abakiriya.

Inaha iwacu duhingaga ibisheke bikera cyane, tukaza kubigurisha bakaduha amafaranga. Tukahahamo ibyo kurya tukiteza imbere tugatanga amakoperative, tukishurira abana amashuri, tukabaguriramo n'amakaye.

Mu kwiteza imbere umuturage ashinga iduka akajya aricururizamo, acuruza ama inite akavanamo amafaranga amutunga, yaba acuruza imyenda ukabonamo amafaranga agutunga, bityo ukarushaho kubaho ufite ubuzima bwiza.

Mu buryo bwo kuyiteza imbere, abaturage bubaka amazu ku mihanda kugira ngo babone abakiriye ahandi bagashaka akazi muri emutiyene, kugira ngo babashe kwiteza imbere kuko iyo ufite akazi urikwinjiza amafaranga yawe ntabwo wabura ibyo kurya kubera ko uba ufite amafaranga.

Inaha iwacu twubakaga amazu ku muhanda y'ubucuruzi, tuyacururizagamo, tukayakodesha, bakaduha amafaranga tukayajana mu isoko kuguramo ibindi bikoresho bitandukanye, tukaja kuguriramo abana inkweto, tukabajana ku ishuri, bityo tukarushaho kubaho neza.

Biba byiza iyo wubatse inzu ukayikorotirira, iyo ikoresheje amabuye, igipangu kiba gikomeye ku buryo nta mujura wapfa kucurira, kandi kikamara igihe kirekire noneho iyo uteye jaride ho biba akarusho.

Inzu z'ubucuruzi zitanga umusaruro kuko nyiri'inzu, arayikodesha akabonamo amafaranga go kuja yishurira abana ku ishuri. Bityo iyo ufite inzu ku muhanda cyangwa iy'ubucuruzi ntago wicwa n'inzara.

Amazu yo ku muhanda adufashaga kwiteza imbere, tuyacururizagamo, tukayakodesha, bakaduha amafaranga, iyo baduhaye amafaranga, adufasha kwiteza imbere, tuyaguragamo ibyo dukeneye, tukayishurira abana ku ishuri, tukarushaho kwiteza imbere.

Uruja n'uruza rw'abamotari n'abacuruzi bacuruza ku muhanda, bituma babona amafaranga, kuko iyo ucuruzaga mitiyu ubonaga amafaranga. Ugahahira umuryango wawe, akagufasha kwishura nk'inzu ukodeshagamo. Ukabaho neza, bityo ukagira ubuzima bwiza.

Mu buryo bwo kwiteza imbere umuturage apanga umushinga w'ubucuruzi. Iyo ufite ubucuruzi buri kimwe cyose gihari, abakiriya barakugana bityo ukarushaho gutera imbere. Iyo ufite butike ugomba gushiramo ibintu byinshi nk'amaji, ubuki ,amagi kugira ngo abakiriya nibaza babone ibyo bakeneye.

Biba byiza iyo uri umucuruzi, ukagura ubucuruzi bwawe buri kimwe cyose ukaba ugifite kuburyo umuturage iyo aje guhaha isafuriya ayihabona, yaza gushakamo imikubuzo akayibona, imyenda yo kwiyorosa, ubukapu bwo guserukana, iyo ibyo byose ubifite bituma ubona abakiriya.

Mu buryo bwo kwiteza imbere ushaka ikintu ukora; urugero nko gucuruza iyo ucuruje ubonamo amafaranga, ukaguramo ibyo kurya, ukishyurira abana ku ishuri, ugatanga na mituweli, ukarushaho kwiteza imbere.

Leta yadutekerejeho yubaka ibikorwa remezo, urugero nk'imihanda, amashanyarazi ku buryo umuntu iyo yejeje ibiribwa abona kubijyana ku isoko kuko haba hari umuhanda bikamworohera kugezayo ibicuruzwa bye.

Iwacu duhingaga ibirayi tukabijyana ku isoko bakabigurisha bakaduha amafaranga bakishyurira abanana mituweli bakishyura amashuri bakarushaho kwiteza imbere kuko natwe tuba twabonye amafaranga tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Amazu y'ubucuruzi adufashaga ibintu byinshi cyane, tujaga kuguriramo ibikoresho dukeneye nk'iyo tugiye gufura tujaga kugurayo omo tukazifurisha n'amasabune, kandi tujaga guhahirayo kuko haba hegereye mu rugo bityo bikadufasha kubaho mu buzima bwiza.

Inaha iwacu dukoraga ubucuruzi bukatwinjiriza amafaranga. Urugero iyo ducuruje amasaka, tugacuruza ingano, ibigori baduhaga amafaranga tukiteza imbere , tugahahiramo abana, tukiyishyurira amashuri abana tugatanga mituweli tukarushaho kwiteza imbere.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturage gukorera mu makoperative, bakagenda babitsa amafaranga muri banke, kuko iyo ufite amafaranga muri banke, uba wizeye umutekano wayo uhagije.

Hoteli itangaga akazi. Urugero nk'abakuburaga babahaga amafaranga, bakaja kuguramo ibyo kurya bakiteza imbere. Bagatanga n'akazi ko gucunga umutekano, bakabishura amafaranga bakarushaho kwiteza imbere, kuko baba babonye amafaranga bitewe na hoteli bakoreraho.

Biba byiza iyo ufite inyubako ukayandikaho, umuntu uje ukugana ahita abona yuko ariho yashakaga kujya. Kuko uba warashyizeho icyapa kigaragaza yuko ari a ho. Urugero nko kuvuga ngo: "Welikamu tu hoteli". Urumva neza batekereza ko wakira neza abakiriya baje bakugana.

Tugomba gutera ibiti, tubirwanya isuri kugirango twirinde isuri ryaturuka ku buhaname. Dore nk'aha ndabona hari ibiti, bigatanga amahumbezi bikaduha umwuka mwiza duhumeka.

Biba byiza iyo ushatse kwagura ubucuruzi bwawe, ukubaka nka jaride yo gukoreramo ubukwe ugashiramo ibiti by'ubwoko bwose, ugatera amavoka, indabo ibitunda bituma ubona abakiriya kuko baza bagana ibikorwa wakoze kuko bigaragara neza.

Ino aha duhingaga imbuto z 'amoko menshi: iyo twahinze amapera, tugahinga inanasi ,tugahinga ibinyomoro ,tubijanaga mu isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Inaha iwacu dukoraga ubucuruzi budufashaga kwikura mu bukene: ducuruzaga ibitunguru, ducuruzaga inyanya, ducuruzaga karoti ducuruzaga n'ibirayi, ducuruzaga n'ibijumba, ducuruzaga n'amasafiriya, ducuruzaga na mabase, bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Uruja n'uruza rw'abaturage baje guhaha mu isoko, bagenda bagiye guhaha ibitoke, hari abagenda bagiye kuguramo imyenda, abagenda bagiye kugura ibirayi n'intoryi n'ibindi bitandukanye, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza kuko baba babonye ibintu bitandukanye bibatunga.

Ubucuruzi butumaga twibeshaho, nk'ubu iyo ugiye kurangura inanasi urazicuruzaga bakaguhamo amafaranga, ugahaha ibyokurya ugatunga umuryango wawe bityo ukabarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inaha iwacu dukoraga ubucuruzi butandukanye, hari abajaga gucuruza imyenda, hari abaja bagucuruza ibyoku kurya, abaguzi iyo baje kugura babahaga amafaranga, bakiteza imbere batangira abana ku ishuri bakarushaho kubaho neza, bagahaha n'ibyokurya.

Inahi wacu tujaga mu isoko gucuruza tugacuruzaga inkweto ducuruzaga imyenda yo kwambara ducuruzaga n'amasabune ducuruzaga n'amavuta yo kwisiga tugacuruza n'ibyokurya bakaduha amafaranga tukiteza imbere tugatanga mituweri tukarushaho kubaho neza tukaguramo n'ibyokurya

Inaha iwacu duhingaga imbuto zitandukanye. Duhingaga: amaronji, tugahinga avoka, tugahinga ibinyomoro. Iyo byeze tubijanaga ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguriramo abana inifomu yo kujana ku ishuri. Iyo za twahinzemo ibitoki turabitaraga hakavamo imineke, tukayirya tukarushaho kwiteza imbere.

Isoko ryo mu Ryangabo ridufasha kubona ibintu bya make, kubera ko haba haragiyemo abaturage benshi bajyanyeyo ibyo bejeje, bityo bikagura make kubera ko ahantu abantu bose baho baba barahinze, abenshi ntabwo bajya kugura ibyo kurya mu isoko baba babyiyejereje, bityo tukarushaho kwiteza imbere tukabona n'abakiriya.

Inaha iwacu batwubakiye isoko rya kizungu rya etaje tujaga kuguramo imyenda yo kwambara, tukaguramo ibyoku kurya, kubera ko iri soko ari rinini cane abantu benshi babonaga aho gucururiza bityo bakabonamo amafaranga.

Tujaga gucuruza kugira ngo tubone amafaranga yo gutunga umuryango gwacu. Ducuruzaga ibishimbo, ducuruzaga n'ifu y'igikoma, ducuruzaga n'amavuta yo kurya, ducuruzaga nayo kwisiga, tukabonamo amafaranga tukaguramo ibindi bikoresho tubaga dukeneye.

Ino aha iwacu duhingaga inanasi zireraga cyane tukazijana ku isoko, tukaguramo ibyo kurya, tugahaha, turanaziryaga, zikaduha umusaruro mwinshi kuko tuzikoragamo ji zo kunywa, bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Mu Rwanda rwateye imbere ubu hariho mede inirwanda rukora udukombe, isafiriya, udupaniye batwaramo ibikoresho, indobo bityo urumva ko u Rwanda rwateye imbere, kubera ko ntirukenera ibikoresho ngo rubikure mu mahanga rurabyikorera.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, umuturage yifashisha imirimo y'amaboko, akiga umushinga umuteza imbere nko gukora imbabura, kuboha ibyibo, gucura ibyuma byo gukoresha no kwifashisha mu rugo.

Iyo ufite inzu y'ubucuruzi ucururizagamo ibintu bikurura abakiriya, urugero nka kanta, kubera ko abantu bose bateraga kanta, barazaga bakayigura bakaguha amafaranga ukiteza imbere, kubera ko uba wabahaye ibyo bakeneye nawe bakaguha amafaranga.

Ino aha iwacu duhingaga voka zireraga cane, tuzijanaga ku isoko tukaja kuzicuruza, iyo batuguriye baduhaga amafaranga tukiteza imbere tuguramo ibindi bikoresho, kandi zituma iyo waziriye wirinda indwara ukabaho neza.

Isoko rifitiye abaturage umumaro mwinshi cyane, kuko bajyamo gushaka ibikoresho bitandukanye, amasafuriya yo gutekamo, ibikombe byo kunyweramo igikoma, inkweto zo kwambara, ibishyimbo byo guteka, iyo babiboneye hafi bagiye kubishaka mu isoku bakabibona, barushaho kubaho mu buzima bwiza, kuko iyo babikeneye babibona.

Urujya n'uruza rw'abantu bakorera mu isoko hari ababa bari gucuruza, urugero nko gucuruza imikubuzo, gucuruza mitiyu, ugacuruza ibikoresho byo mu rugo, ugacuruza imbuto, bityo iyo wacuruje ubona amafaranga ukiteza imbere.

Ino aha iwacu, dukoraga ubuhinzi butandukanye. Duhingaga amaronji, tugahinga ibinyomoro, tugahinga indimu, tugahinga n'amatunda. Iyo geze, tugahaga abana bacu, ntibarware bwaki. Bagajana no mu isoko, bakaduha amafaranga, tukiteza imbere, twishurira abana amashuri, tukatanga na mituweli.

Mu buryo bwo kwihangira imirimo, dushakaga imirimo idufasha kubona amafaranga urugero nko gucuruza inkweto. Iyo twacuruje inkweto tubonamo amafaranga tukagaguramo ibyo kurya, tukagaguramo imyenda yo kwambara, tugatanga mituweli, tukajana abana ku ishuri, tukabona kwiteza imbere, kubera tuba twabonye amafaranga avuye mu bucuruzi.

Iyo uzi gutera amasafuriya, bakuzaniraga akazi ko gutera amasafuriya ukayagira mazima yari yapfumutse, bakaguha amafaranga ukarushaho kubaho mu buzima bwiza, ukaguramo ibyo kurya ukabaho neza.

Mu Rwanda duhingaga ibirayi cyane cyane mu karere ka musanze. Duhingaga ibirayi byitwa Kinigi. Iyo byeze turabiryaga tukabijana no ku isoko bakaduha amafaranga tugatanga mituweli, tukaguramo n'amatungo kugira ngo azaje aduha ifumbire, tukiteza imbere kandi tukongera umusaruro, tukabaho neza.

Intaha iwacu duhingaga ibihingwa bitandukanye duhingaga ibijumba, duhingaga inyanya, duhingaga imyumbati. Iyo twazikuye tuzijanaga ku isoko, turaziryaga tukabaho neza.

Inaha iwacu duhingaga imboga n'imbuto kugira ngo turusheho kwirinda indwara, kuko iyo wahinze dodo ntagwo umwana yapfa kurwara bwaki kandi ukazijana no ku isoko bakaguha amafaranga ,bityo ukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ino aha iwacu ducuruzaga ibicuruzwa bitandukanye, ducuruzaga amavuta yo kurya, ducuruzaga umuceri, ducuruzaga amakaroni, ducuruzaga n'ifu ya Kawunga, ducuruzaga n'ifu y'igikoma, bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Ubucuruzi butandukanye butumaga tubona amafaranga, urugero nko gucuruza ibirayi, ugacuruza ibijumba, ugacuruza inyanya cyangwa karoti bitumaga ubona amafaranga, ugatanga mu matsinda ukarushaho kwiteza imbere, ugahahira n'abana ibyo kurya.

Iyo isoko ryubakiye neza byorohereza abacuruzi, kuko iyo bari mu isoko imvura itagwa ngo ibanyagire. Kandi, bikorohereza n'abaguzi kuko baba baje kugura bagataha batanyagiwe.

Inaha iwacu ducuruzaga ibinyobwa bitandukanye. Tugiraga fanta, tukagira na ji, tukagira n'amata. Turayagurishaga bakaduha amafaranga tukiteza imbere dutanga mituweli, tukaguramo n'ibyo kurya tukagira ubuzima bwiza.

Inaha iwacu dukoraga ubucuruzi butandukanye bw'imbuto. Ducuruzaga:wotamelone, tugacuruza inanasi, tugacuruza amaronji, bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byo kurya, tugatangira abana ku ishuri, tukatanga na mituweri, tukarushaho kwiteza imbere.

Ino aha iwacu dukoraga ubucuruzi butandukanye ducuruzaga ingofero zo kwambara, tugacuruza ibikoresho byo mu rugo, tugacuruza imbabura tugacuruza n'amakara, tugacuruza n'ibyokurya bakaduha amafaranga tukishurira abana ishuri.

Ino aha iwacu turahingaga bikera, duhingaga ibirayi, tugahinga imboga nyagwatsi, tukazijana mu isoko bakaduha amafaranga, tukagaguramo ibindi bikoresho dukeneye, tukajana abana ku ishuri kuko tuba dufite amafaranga yo kubishurira.

Isoko ridufasha kubona imbuto bitworoheye nk'imineke, avoka, amaronji, indimu ku isoko ntiwabibura. Iyo ugiye ku isoko uba uhahahira ibintu byinshi kuko haba hahuriyeho n'abaturage benshi bazanye imyaka zitandukanye.

Iyo uturiye ikiyaga ujaga kuroba indagara cyangwa isambazaza, ukaza ukazikawusha, ukazijana ku isoko bakaguhamo amafaranga ukaguramo ibyo kurya, ukiteza imbere, utanga mituweli kuko uba wabonye amafaranga akomotse mu kiyaga urobamo amafi cangwa indagara.

Tujya mu isoko guhahamo ibiribwa bitandukanye kugira ngo twirinde indwara. Duhahamo inyanya, tugahahamo ibitunguru, tugahahamo pavuro, tugahahamo imiceri, tugahahamo ibintu byinshi bitandukanye tukabirya, tukiteza imbere tukanirinda indwara kuko tuba twariye indyo yuzuye.